Umwana wambaye ishati y'amaboko magufi irimo amabara y'umukara n'umweru afite igitabo mu biganza bye kirimo amashusho ku rundi ruhande cyanditse ho amagambo. Impande ye hari abantu benshi bamuhanze amaso naho imbere hari umugore uhagaze wambaye ikanzu iruhande rwe hateretse intebe y'umutuku.

Abana bambaye impuzankano z'amashati y'ubururu n'amajipo y'umukara cyangwa amakabutura, bicaye ku mukeka, abandi barahagaze. Umukeka bicayeho ufite amabara atandukanye harimo ay'icyatsi, umweru n'anandi mato y'umukara. Abahagaze, bamwe bafite impapuro, abandi bari gutambuka bakina. Icyumba barimo kirimo ibishushanyo.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, n'ikanzu imbere y'umweru, ahagaze imbere y'abana bicaye bambaye amashati y'umweru n'amaboko magufi, harimo n'umwe wambaye umupira w'ubudodo w'ubururu ufite akarongo k'umweru ku ikora. Inzu barimo ifite ibirahure n'amadirishya asize irangi ry'ubururu. Imbere hari ikibaho cy'umukara.

Abana bambaye inkweto z'umukara n'impuzankano z'amakabutura y'ubururu, abakobwa amakanzu, amashati y'umweru y'amaboko magufi, bari gutoragura imyanda iri mu busitani. Hari uri imbere uri kumena imyanda ahabugenewe hari ikidobo cy'icyatsi bayishyiramo n'abandi bari kugenda batoragura hasi imyanda bari inyuma ye.

Ahantu hari inzugi n'amadirishya bifite ibirahure, hicaye abantu benshi biganjemo abambaye impuzankano z'amashati y'umweru n'amajipo ya kaki n'abandi bambaye amajipo y'umukara bicaye ku ntebe z'urubaho, harimo abambaye kandi imipira y'amaboko maremare y'umukara ariko ifite uburongo ku ikora bw'umweru bose bambaye udupfukamunwa.

Impande y'ikigega cy'umukara gifite intebe yubakisha amabuye, hahagaze umugore n'umugabo, umugore yambaye ikanzu y'umukara idafite amaboko naho umugabo yambaye ipantaro n'ikote risa n'ishati y'ubururu imbere, umugabo ari guhereza umuhungu wambaye ishati y'umweru imbere y'umupira w'icyatsi ibitabo naho inyuma y'uwo muhungu hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ufashe ku ntebe ahagaze.

Mu cyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hicayemo abantu bicaye ku ntebe zifite ameza bifatanye. Higanjemo abambaye amashati y'umweru y'amaboko magufi n'amajipo n'amapantaro by'umukara. Hagati harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa n'icyuma gikwiza amashusho kizwi nka porojegiteri mu rurimi rw'igifaransa.

Inzira nto z'abanyamaguru zikijwe n'ubusitani burimo ubwatsi buto bwa pasiparumu bukikijwe n'indabo z'ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hagati mu busitani ahagana hirya mu kuboko kw'iburyo hari ibiti birebire, imbere y'ibyo biti biri mu busitani hari inzu y'igorofa isakaje amabati y'umutuku.